Umugabo uhetse pompe akaba ari mu murima munini uri ahantu h'ikibaya h'umurambi, kigiye giteyemo ibiti akaba ari gutera umuti ku cyayi yahinze ku buso bunini kandi akaba yambaye ipantaro n'umupira n'ingofero.

Umugabo wambaye wikwije wikinze mu maso arimo avomerera igihingwa kitarakura cyitwa umuceri.

Ikiganza gifashe ifumbire y'imborera, kikaba kirimo cyiyishyira ku rubuto ruhinze ahantu rwitaruye rwonyine, h'umurambi kugira ngo ruzabashe gukura neza rwere, imbuto zijyanwe kugurishwa zivemo amafaranga, yo kwifashisha mu buzima busanzwe kandi n'ayo kwiteza imbere.

Umuntu wambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse n'agapfukamunwa mu maso n'ingofero mu mutwe ahetse igikoresho cyabugenewe kivomerera imyaka, ari kuhira ubusitani bugizwe n'indabyo z'icyatsi kibisi, imbere y'ubusitani hari igikuta bigaragara ko hari inzu.

Umuntu afite icupa mu biganza kandi yambaye intoki, iryo cupa ni umuhondo ari kuwutera umuti ku ndabyo, ni indabyo zisa neza kandi zisa umweru.

Abagabo babiri, bafite ibikoresho byabugenewe, bari kuvomerera igihingwa cy'umuceri, icyo gihingwa ni igihingwa cyiza, gishishe bigaragara yuko kiriho ifumbire.

Umugabo uhetse igikoresho cyabugenewe gishyirwamo umuti wo gutera ku nyanya arimo yuhira, igihingwa ubona yuko kiri hafi gutanga umusaruro.

Umugabo wambaye yifunze yambaye n'ingofero, ahetse igikoresho cyabugenewe, ari kuhira igihingwa cy'umuceri mu gishanga ,hakurya ye hateye ibiti byiza.

Umugabo wambaye igisurureti cy'ubururu ahetse ikijerekani kirimo umuti ari gutera ku bigori, ni ibigori bisa neza cyane bigaragara ko byitabwaho.

Abagabo babiri bari kuhira igihingwa cy'umuceri gihinze mu gishanga, bari gukoresha ibikoresho byabugenewe bya kijyambere, uyu muceri uhinzwe ku buso bunini.

Abantu bari imbere y'igihingwa k'inanasi, harimo uri kucyuhira wambaye agapfukamunwa k'ubwirinzi, bose barasa neza babukereye.

Amacupa menshi y'umweru afite udufuniko tw'icyatsi kibisi bigaragara y'uko aya macupa arimo imiti y'amatungo ari ahantu mu cyumba.

Mu kibaya ahantu hahinze ibihingwa bitandukanye byiganjemo umuceri, hakaba harimo abagabo batatu bahetse ipombe ku mugongo bambaye n'ingofero n'amapantaro n'imipira ifite amaboko, barimo batera umuti urwanya udusimba twangiza ibihingwa n'ibimera muri rusange.

Umugabo uhagaze hagati mu gihingwa cy'umuceri, ari kuvomere akoresheje igikoresho cyabugenewe, yambaye agapfukamunwa, imbere ye akikijwe n'ibiti byiza na byo biteye mu butaka bwiza.

Umugabo avuye kuroba amafi, arayafite ku kantu yayarambitseho ariko kandi afite n'umuraga. Arishimye cyane ari guseka, kandi aracyari hafi y'aho yayarobeye.

icyuzi gikikijwe n'ibyatsi byiza, harimo n'urukangaga. Hakurya y'icyuzi, hari abana benshi. Hakurya na none hari inzu.

Abantu benshi bari imbere y'icyuzi bororeramo amafi. Bashoyemo umuraga, bigaragara ko bari kuroba amafi. Bamwe bahagaze mu mazi hagati, abandi bari ku nkengero bari gukurura.

Umwana ari mu kiyaga ari gukurura ubwato bigaragara y'uko ari kuroba, hakurya y'ikiyaga hari abandi bantu, hakikije ibiti byiza.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, ari imbere y'icyuzi cyororerwamo amafi, bigaragara y'uko azanye ibyoku kurya ngo abihe amafi yororewemo.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, arimo aroba akoresheje umuraga ushinzwe cyangwa se wagenewe gufata amafi, umuyaga munini cyane.

Igihingwa kizwi ku izina ry'icyayi gihinzwe ku buso bunini harimo umugabo bigaragara y'uko arimo asarura, hatemo ndetse n'ibindi biti bivangwa n'imyaka.

Abantu b'abaturage batonze umurongo bagenda mu kayira ahantu, bikoreye ibitebo byuzuye kandi bisokeye icyayi bavuye gusarura, bari guca mu kayira kanyura hagati mu cyayi, barishimye bitewe n'umusaruro bavuye gusarura.

Ikawa yeze ifite ibitumbwe byinshi cyane ku itabi ndetse hariho n'izindi kawa zitukuye zihiye, zikeneye gusoromwa, iyo kawa ifite ibibabi bitoshye cyane.

Igihingwa cya kahwa, bigaragara yuko kigeze igihe cyo gusarurwa, hariho ikahwa ihishije ndetse n'itarahisha, iyo twakwita igitumbwe.

Umurima munini uhinzemo urugano, biragaragara ko rweze kandi rwarumye, harimo abantu benshi bari kurusarura bafite udukerezo bari gukatisha.

Abadamu bari hamwe bikoreye ibitebo, bari gusarura icyayi. Ni icyayi gisa neza gishimishije bigaragara y'uko kitaweho.

Abantu bane bunamye ahantu mu gishanga bari gutera umuceri ahantu mu mazi menshi cyane, bari gutera umuceri kandi urabona ko bagenda bawutera ku murongo ku murongo.

Umugore wunamye ahantu mu gishanga mu mazi, ari gufumburura umuceri awutera. Ni ahantu mu mazi menshi cyane bigaragara ko kugira ngo umuceri were neza bawuhinge ahantu hari amazi ahagije.

Ihuriro ry'abadamu, bigaragara yuko biteje imbere, bafite kawa yeze mu ntoki, barasa neza, mbese arakomeye.

Amacupa manini cyane arimo imiti igiye itandukanye ateretse hamwe bigaragara ko ari ahantu mu bubiko, amacupa amwe ashushanyijeho inka ndetse andi ashushanyijeho imbuto zitandukanye.

Amacupa manini maremare y'umweru kandi apfundikije imifuniko y'umweru, ari imbere cyangwa se ateretse imbere y'utudobo na two tureture turimo imiti igiye itandukanye, byose ahantu hamwe mu cyumba bigaragara ko ari mu bubiko.

Amacupa menshi ateretse kandi apfundikiye, gusa rimwe ryaguye ariko umuti urimo ntiwameneka, imbere yayo harambitse akandi kadobo na ko gapfundikije umufuniko w'umweru na ko bigaragara ko harimo umuti.

Umusore atwaye urugemwe mu ntoki rw'urubuto, ahagaze ahantu hahinze cyangwa se hafumbiye izindi ngemwe nyinshi ubona ko ari kuzigemurura ajya kuzitera ahandi hantu.

Abagabo babiri bari mu gishanga barimo basunika igare rihetse umuzigo munini uremereye, ni mu gishanga hahinzwe umuceri, hakurya hariti ahasa nk'aho ari ku musozi.

Ishyo ry'inka riragiwe n'umushumba umwe inka hari iz'umukara, hari n'iz'ikibamba ziri hamwe mu rwuri ziri kurisha, zirasa neza zirakeye.

Umugabo ari gutera urugemwe rw'igiti ahantu mu gihuru, imbere ye hahagaze umusirikare. Ari kumwitegereza kandi uwo mugabo yambaye ingofero n'intoki z'umukara ndetse na butini.

Umuhinzi wambaye ikote, ndetse n'inkweto dukunze kwita ngo ni kavunja, arimo aratera urugemwe, urugemwe rwiza rwose rufite igikuriro imbere ye harambitse isuka.

Igishanga kinini cyane gihinzemo ibigori, ni ibigori bigeze mu gihe cyo kubagarwa kandi bifite amababi meza biratoshye harimo umuntu umwe bigaragara ko yaje kubagara.

Abagabo bizihiwe babiri bambaye cyangwa se bateze ingofero bambaye imipira bari kumwe n'umwana, bari imbere y'igihingwa gihinze, barasutamye barimo baraseka barishimye.

Ni isoko rinini ry'amatungo ritubakiye neza, ririmo ibiti bigiye bitandukanye, higanjemo abagabo n'abagore, ariko abagabo bagiye bafite inkoni mu ntoki, rikaba ririmo ihene zazanywe kugurishwa kandi harimo n'abandi baje kuzigura kugira ngo bajye kuzorora.

Inka nyinshi ziri ahantu mu kiraro cyabugenewe ndetse zifite amaherena ku matwi, ni inka z'amafirizoni ndetse ziri kurya ubwatsi bazihaye.

Abantu bari hamwe bari gutera ingemwe, hagati muri bo hari umupolisi, bigaragara yuko bari gufatanya igikorwa.

Umudamu ukikijwe n'abana bambaye imyenda isa ndetse n'abandi bantu impande ze, afite urugemwe rw'igiti bigaragara yuko kigiye guterwa, aberekera uko bikorwa.

Abantu cyangwa se abahinzi bikoreye ibisarurwa, bari mu gishanga ahantu hari ibigori rwose bitarera. Imbere yabo hari umugabo urimo asunika igare.

Abahinzi bari mu gishanga, barimo guhinga igihingwa cy'umuceri. Hakurya yabo hari imisozi.

Ibihingwa birimo ubutunguru, imbogeri, bigaragara yuko ari akarima k'igikoni kavamo ibitunga abantu.

Igihingwa k'ikigori kigejeje mu gihe cyo gusarurwa gihinzwe mu butaka bugaragara nk'uburimo ifumbire ni kiza kitaweho kimeze neza rwose.

Igiti k'igisombe ariko kitaribwa bimwe bakuraho isombe yo kurya, kirashishe bigaragara ko giteye ahantu imbere y'urugo kandi baragisarura.

Igihuru kirimo ibyatsi byinshi cyane by'inzitane, harimo imiyenzi, imikenke ndetse hakurya hari imisozi na yo ihinzeho amashyamba ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imbuto z'amoko atandukanye ndetse n'ibindi biribwa, hariho inyanya, indimu ndetse n'ibigori hamwe n'icupa ririmo ikinyobwa cy'umuhondo.

Umuhanda w'icyaro w'igitaka, ukikijwe n'umurima, uhinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye, urutoki, amasaka, muri wo harimo abantu benshi, bari kugenda n'amaguru.

Umuhanda ukikijwe n'amatara amurika ndetse hepfo y'umuhanda hari ibihingwa byiza harimo ibigori n'ibiti. Hakurya hari amazu atuwemo n'abantu.

Igihingwa kitwa imyumbati kikiri gitoya bigaragara yuko kiri gukura, insina iruhande rwacyo hari insina na zo zigaragara yuko zitanga umusaruro.

Amazi amanuka ahantu mu mugenda hahanamye cyane, bigaragara ko ari ku misozi kandi ni mu gihuru k'inzitane bigaragara ko ari ishyamba rinini cyane hatagendwa n'abantu.

Icyatsi cyagungahaje cyane gifata umwanya munini, kiri ahantu mwishyamba hagati, ni ishyamba ririmo ibiti by'intusu bitoya ni'ibini ariko ni ishyamba kandi wagira ngo rinyurwamo n'abantu bagenda n'amaguru.

Umugezi uri mu gishanga ahantu nyaburanga hari ibiti by'icyatsi kibisi ndetse n'amazi atemba.

Imbuto zitandukanye ziri hamwe higanjemo karoti, indimu, ibitunguru, urusenda, amatunda n'ibindi byinshi, bikaba zifashishwa mu kuribwa cyane cyane kuziha abana kugira ngo babashe gukura neza bafite ubuzima buzira umuze.

Umugabo ufashe ibase wizihiwe cyane ari guseka, iyo base yuzuyemo amatunda y'imigozi ahiye bigaragara ko avuye kuyasarura.

Imbuto nyinshi zisa neza, harimo inyanya, inanasi, imineke, ubutunguru, biri hamwe, bigaragara yuko ari imbuto nziza rwose.

Imboga z'ubwoko butandukanye harimo inyanya, ubutunguru ndetse n'izindi zitandukanye biri hamwe rwose.

Igiti kinini cy'urubuto rwitwa ipapayi kiriho ibitumbwe byinshi cyane, muri icyo giti hazamukiyemo uruyuzi ruvaho ibihaza, nta gipapayi na kimwe kiriho gihiye.

Abagore barizihiwe ndetse bari no guseka bari mu murima w'ibihwagari bigaragara ko bari kubisarura, barizihiwe, baraseka, ni umurima munini cyane bigaragara ko bishimiye umusaruro wabo.

Igitebo cyuzuyemo inyanya nyinshi cyane zitukuye, umugabo afashe rumwe mu ntoki umugore na we afashe amafaranga bigaragara ko ari kuzicuruza.

Imbuto zasaruwe zikaba zashyizwe mu gikarito zikaba zari zigeze igihe cyo kwera kandi zikaba ziri mu bwoko bw'avoka zimeze neza zifite inkondo ku mitwe zikaba zitezweho gutarwa zigashya kugira ngo zibashe kuribwa zitange intungamubiri ku mibiri y'abantu.

Ibihingwa biri kuhirwa hakoreshejwe uburyo bwiza bugezweho bwa kijyambere, ni ibihingwa bishishe bisa neza rwose ubona yuko ko biteye mu butaka bwiza.

Igihingwa giteye ku buso bunini cyane, hagati muri cyo harimo imashini zabugenewe za kijyambere zifashishwa mu kuhira iki gihingwa, hakurya y'igihingwa hari imisozi iriho ibiti.

Umuntu w'umusore arimo aravomerera imyaka ihinzwe ku buso bugari.

Icyayi gihinze ku buso bunini cyane kandi giteye ku murongo, bashyizemo uburyo bw'ikoranabuhanga, bazajya bavomereramo, aho amatiyo cyangwa imipira itwara amazi inyuze amazi mu kirere, ivomerera icyo cyayi.

Abagabo babiri ndetse n'umumama umwe wambaye ipantaro, barimo bavomerera imyaka ihinze bakoresheje umupira cyangwa se uburyo bwa kijyambere. Hakurya yabo ndetse n'iruhande hari urutoki n'indi myaka ihinzwe nk'ibigori.

Ibigori bihinze ahantu mu gishanga kinini cyane ndetse bagiye baca imivo y'amazi inyuramo hagati kugira ngo bajye babifasha kubona amazi mu gihe cy'impeshyi.

Amatarasi y'indinganire atewemo imyaka ariko imyaka ntirakura. Abagabo barimo bavomerera hakoreshejwe uburyo bwa kijyambere.

Umugezi munini cyane unyura ahantu mu gishanga, ni ahantu hahingwa umuceri bigaragara ko ayo mazi bayifashisha bavomerera umuceri, hahagazemo umuntu umwe gusa nta kintu ari gukora.

Igihingwa giteye ku buso bunini, haragaragaramo ibikoresho biri kwifashishwa mu kuvomerera cyangwa se mu kuhira icyo gihingwa, izuba rirarashe, igicu kimeze neza.

Icyuma cyangwa se imashini yabugenewe ya kijyambere, irimo yuhira cyangwa se ivomerera imyaka. Iyo myaka ni imyaka ishishe cyane, harimo ibigori bihinzwe ku buso bunini.

Igihingwa kikiri gitoyo harimo n'amateke, hafi y'iki gihingwa hari imashini zabugenewe ziri kuvomerera imyaka, igihingwa kigaragara nkaho giteye mu butaka bwiza.

Umupira munini cyane utwara amazi avomerera imyaka bawushyize ahantu hahinze imyaka ikiri mitoya cyane, bigaragara ko bakeneye ko ikura, hari abantu bahagaze bitegereza uko amazi ameneka mu murima.

Igishanga kinini cyane gihinzemo umuceri. Hacamo uruzi hagati, hakurya hari imisozi miremire. Uwo muceri wose uhinzemo wabaye umuhondo, bigaragara ko ugeze igihe cyo gusarurwa.

Ikibaya gihinzemo igihingwa cy'umuceri, hakurya y'ikibaya hari imisozi ihinzeho ibiti, hagati mu gishanga harimo umugezi utemba.

Imisozi miremire cyane kandi ihanamye, bayishyizeho amaterasi y'indinganire ndetse hahinzeho ibiti kuri iyo misozi bigaragara ko nta bikorwa bindi bihakorerwa, nta n'abantu bahatuye.

Umugezi cyangwa se uruzi runini cyane, rufite amazi y'inombe bisa nk'aho imvura yaguye, ruca ahantu mu mibande ku misozi hagiye hari amashyamba kandi hari n'intoki bisa nk'aho hatuye abantu.

Ahantu mu gice cy'igishanga hari inzu imwe ndetse higanje ibimera by'ibiti, hakurya yabyo hari umusozi munini uteyeho ishyamba, ni ahantu hasa n'ahatuje cyane.

Imisozi ihanamye cyane ihinzeho ibiti ndetse hariho n'ibihuru by'inzitane biragaragara ko ikirere gifite imvura kubera ko harimo ibicu biremereye.

Ahantu heza cyane hari kugaragara ikiyaga, hakurya no hakuno y'ikiyaga, hari imisozi yamezeho ibyatsi by'icyatsi kibisi, hakurya hari imisozi, iruhande rw'ikiyaga haragaragara igiti cyiza.

Inka nziza bigaragara yuko itanga umukamo, ntabwo iri yonyine ahubwo iri kumwe n'izindi, bigaragara yuko ziri aho zifatira ibyo kurya, ni inka nziza cyane.

Inka nyinshi cyangwa se ishyo riri hamwe rigaragara yuko rigiye guhabwa ubuvuzi, harimo n'abavuzi b'amatungo bambaye ibisarubeti ndetse na bote zabugenewe.

Ubworozi bw'inkoko zikaba ari nyinshi ziri hamwe ahantu zororewe, hagati yazo hagiye harimo imifuka y'ibiryo bazigaburira kugira ngo zibashe gukura neza, zitange umusaruro uzikomokaho nk'amagi n'inyama ndetse n'amafaranga muri rusange.

Inkoko zorowe neza kandi akaba ari nyinshi zigiye zorowe enye enye ziri hamwe mu kazu kazo, zikaba zubakiye ku buryo bukoresheje senyege kandi zikaba zitezweho kuzagira umusaruro mwinshi kubera ko zitabwaho neza.

Ihene eshanu ziri mu gihuru ziri kurisha kandi zahaze cyane zisa umweru ariko nta muntu uziragiye, izo hene kandi nta biziriko zifite.

Ishyo ry'inka zibyibushye ziri hamwe mu rwuri, zirasa neza harimo izibyibushye cyane zigaragara nk'aho zikujije cyangwa se zifite amezi.

Imishwi y'inkoko myinshi cyane iri ahantu habugenewe ihagaze hejuru ahantu kuri senyenge, bigaragara ko ari bya biraro byabugenewe bya kizungu mu buryo bugezweho aho bororera inkoko.

Rimwe mu matungo magufi iyo twakwita ingurube, riraryamye, riri konsa ibibwana bitatu byiza bibyibushye.

Icyumba kirimo inkoko zikiri ntoya izo dukunze kwita imishwi, ziri hamwe zirimo zifata ibyo kurya bizitunga.

Inka z'inyambo zihagaze imbere mu rupango, zikaba ziri kumwe n'abashumba ndetse n'abaganga b'amatungo, bambaye itaburiya y'umweru, baje kuzitaho kugira ngo bazirinde uburwayi butandukanye kandi zibashe kororoka, zitange umusaruro.

Inkoko nziza za kijyambere zifite amababa cyangwa se z'ibara ryitwa ubugondo mu kinyarwanda ziri ku murongo zashyiriwe ibiryo ku kantu buri nkoko yose iri gutoragura.

Inkoko ziri ahabugenewe aho bazigaburira, ni ahantu hubatse neza na senyegi ziri gutoragura ibyo bazihaye zirya, n'inkoko zitera amagi bigaragara ko ari umushinga bakoze.

Ingurube iri mu kiraro aho yororewe kandi ikaba ibwegetse yenda kubwagura ibibwana byinshi, ikaba ifiti iherena ku gutwi kandi ikaba ihagaze iri yonyine yitaweho ifite ubwatsi n'ibiryo bayihaye kugira ngo ikure neza izabashe gutanga umusaruro.

Ingurube nini cyane iri mu kiraro cyabugenewe, iri kurya ibyo bayigaburiye. Iri kumwe kandi n'ibibwana byayo bitatu nabyo biri kuyonka. Icyo kiraro nta bwatsi buri kugaragaramo kandi kirasakaye.

Ihene nyinshi ziri mu rwuri zirimo zirisha, ziragiwe n'umushumba umwe, ni ihene nziza z'ibitare

Inyana iri ahantu mu kiraro kibatse neza kandi gisa neza, iri yonyine ariko irashonje bigaragara ko nta byokurya bigeze bayiha.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe habugenewe ziri gutoragura ibyo bazihaye, gusa hari n'iziri kunywa amazi ku mufuniko kandi zose ni inkoko zitanga umusaruro w'amagi, ni ukuvuga inkokokazi gusa.

Umusore wambaye bote z'umweru ndetse n'isurubeti y'ubururu ndetse yambaye n'ingofero y'umweru, ari imbere y'inka iri ahantu mu rupango bigaragara ko ari kuyisuzuma.

Muganga w'amatungo ni umugore yambaye itaburiya y'umweru kandi yifubitse agatambaro k'umukara mu mutwe, ari gukingira inka ndetse inka zo ziri mu rupango.

Ishyo ry'inka cyangwa inka nyinshi ziri mu kiraro cya kijyambere, iki kiraro gisakajwe amabati, muri zo hahagaze abantu bigaragara y'uko bari kuzitaho.

Inka nyinshi z'imitavu zigeze mu kigero kimwe, zose zambaye amaherena bazishyize ahantu hamwe ndetse hatari ubwatsi.

Inka ihagaze ahantu mu kiraro, ni ikiraro cyubatse mu buryo bugezweho kuko kirapavomye na sima. Iyo nka nta bwatsi ifite iri kurya kandi birasa nk'aho yitegereza nk'ibonye umuntu.

Ingemwe z'ibigori, bikiri bitoya, bihinzwe, bigaragara yuko biri kubona urumuri ndetse haragaragara n'ikiganza cy'urimo atera ibyo bigori.

Umugore wambaye isengeri ndetse afite inkoko, ari kugosora ibishyimbo akuramo imyanda, imbere ye harambitse umufuka bigaragara ko ariwo ari gushyiramo ibyo bishyimbo bigosoye.

Indabyo nziza cyane zifite ibibabi birebire, zirashishe ariko kandi ziracyari mu gifumbiro, ku ruhande hari ibiti birebire kandi hari n'amazu bigaragara ko ari ho bazifumbirira.

Ibiganza by'abantu benshi batandukanye ariko ubona ko bari mu kigero k'izabukuru, bafashe umuceri udatonoye ariko bawuhuye bawushyira ku nkoko, ibyo biganza buri wese yagiye ayora ku nkoko ashyira mu kiganza barabyerekana.

Ishyo ry'inka riri hamwe, inka nziza z'imbyeyi zigiye guhabwa ubuvuzi.

Inka nyinshi cyane zimwe bari kuzinyuza ahantu mu rupango ndetse hari abantu bambaye ibitaburariya by'umweru na bote z'umweru. Bigaragara ko bazizanye kuzikingiza.

Umuvuzi w'amatungo wambaye umwambaro wabugenewe w'icyatsi kibisi n'inkweto z'umweru n'igofero y'umweru arimo asuzuma inka.

Umuvuzi w'amatungo wambaye imyambaro y'ubururu bigaragara y'uko arimo asuzuma amatungo.

Inka ziri mu rupango rwubakishije ibyuma, inyuma y'urupango hakaba hahagaze abantu batandukanye, higanjemo aborozi n'abashumba bashinzwe kuziha ubwatsi, hakaba harimo n'abaganga b'amatungo baje kuzitaho kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, zitange umusaruro.

Umuvuzi w'amatungo yambaye itaburiya y'umweru, yambaye kandi intoki z'ubururu, ari gutega amazi mu gakombe gatoya afite ari kuva mu itiyo.

Abavuzi b'amatungo bose bateraniye ku nyamaswa imwe bari kuyivura, bayiryamishije ahantu ndetse na bo bafite ubushakashatsi bari gukora ku ndwara irwaye.

Abasore babiri bafashe imbwa bayiryamisha hasi bigaragara ko umwe ni umuganga w'amatungo, yambaye intoki kandi ari gushyira umuti ku gisebe k'iyo mbwa.

Umuvuzi w’amatungo wambaye umwambaro w’umweru, ndetse n’intoki ari kurebera mu gikoresho cyabugenewe gisuzuma uburwayi.

Inzu yagenewe kurererwamo cyangwa se kororerwamo amatungo magufi.

Inka nyinshi cyane zifite amahembe maremare y'umweru aminuriye hejuru. Ziri ahantu hamwe mu rupango ndetse hari abantu bambaye amatabu y'umweru bigaragara ko zaje ngo bazikingire.

Inyamaswa zo ku gasozi ziri hamwe zirisha ahantu ho mu ishyamba zimeze neza zirasa neza, hakurya yazo hari n'izindi zitari kurisha.

Inka zapfuye ziryamye hasi bigaragara ko ziryamye mu ishyamba, harimo inini ndetse n'intoya gusa ntakigaragara cyazishe ziratumbye mu nda.

Inyamaswa zihagaze ahantu mu gihuru, inzovu, intare, impara ndetse n'imparage, hari n'agasumbashyamba, zose ziri kumwe hamwe.

Ishusho y'inyamaswa y'ishyamba y'intare, iryamye hasi ariko ntabwo ari yonyine kuko iruhande rwayo hari n'izindi inyuma yayo irashya.

Inyamaswa yo ku gasozi, iri kurisha hafi y'inkengero z'amazi atemba.

Inyamaswa y'ingwe iryamye, ikaba yashinyitse amenyo yose ari hanze, ayo hasi n'ayo hejuru kandi ikaba itinywa cyane kubera ubukana n'ubumara igira kubera ko nta muntu wabasha kuyicika yamubonye, ikaba ariyo mpamvu nta muntu wifuza kuyegera.

Inyamaswa z'inkazi z'agasozi tuzi ko zitwa umwami w'ishyamba, ziri hamwe, ziri ahantu ha zonyine. Imbere yazo hari igiti k'inganzamarumbo.

Kimwe mu bwoko bw'ibisiga biguruka cyangwa se kikaba no ku gasozi, kiri ahantu hakonje cyane mu mazi kirimo gishaka ibyo kurya.

Inyamaswa nini y'inyagasozi, iyo tuzi ku izina ry'intare, iri kumwe n'icyana cyayo, iriryamiye ahantu biri byonyine.